Umugabo wambaye umweru wose, uhetse ipombo isa n'icyatsi, ifite amabara y'ubururu, udushumi tw'umukara, agapira kifashishwa mu gutera umuti wica udukoko mu myaka ndetse n'ahandi hatandukanye.

Umugabo uhetse ipombo mu mugongo ,ifite amabarage agiye atandukanye ,ifite udushumi tw'umukara n'agapira kajyana uwo muti wica udukoko mu myaka ,iruhande rwe hakaba hari n'undi mukobwa nawe uhetse ipomba mu mugongo, ugiye gutera umuti wica udusimba.

Umugabo urimo gutera umuti wica udukoko mu bishyimbo, akaba yambaye imyenda y'umuhondo hasi ndetse no hejuru, yambaye uturindantoki tw'umukara, yambaye kasike y'umukara ndetse n'umuhondo, akaba ahetse ipombo na yo ifite umuhondo inyuma, ariko akagozi kajyana uwo muti kakaba gasa n'umukara.

Umugabo wishimye wasetse umwenyuye ufite amasamake menshi cyane mu ntoki zirikikije agashumi yambaye umupira w'umutuku ufite utubara tw'umukara hasi akaba yambaye umukara, inyuma hakaba hari ikidendezi cy'amazi hakaba hahinze umuceri utoshye, ku ruhande hakaba hari insina nyinshi ndetse n'ibiti bya avoka.

Amafi ane, yakuwe mu mazi atagifite ubuzima ariko agifite amagaragamba batarayaharuraho kugira ngo bayateke aribwe atariho, akaba ari mu ibasiye ifite ibara ry'umutuku, mu nzu irimo amakaro y'umweru.

Umugabo uhagaze urimo kwitegereza areba aho ibihingwa by'inzahurabukungu bigeze biri mu gukura byera, harimo nk'intoki, hirya hari ishyamba ryiza cyane riboneye ijisho ubona ko birimo amafaranga menshi cyane.

Igihingwa nzahubukungu kiri ku butaka bugari kirimo kwitabwaho n'umukobwa wishimye wasetse ufite imisatsi karemano, akaba yambaye umupira w'umuhondo urimo ibara ry'umukara ku maboko ndetse no mu ijosi akaba yambaye ijipo, ifite utubara tw'umutuku ndetse n'umweru.

Igihingwa ngengabukungu k'igiti k'ikawa gifite ikawa zimwe na zimwe zihishije zeze zisa n'umutuku. Hakaba n'izindi zitarera zifite ibara ry'icyatsi ziri ku giti. Zikaba zifite amababi y'icyatsi yabonye imvura, ashishe, asa neza rwose aboneye ijisho.

Icyumba kirimo imiti y'amatungo iri mu bikarito bigiye bitandukanye, ibifite amabara y'icyatsi n'umweru byanditseho amagambo y'umweru ndetse n'utundi tw'umutuku, ibindi biri mu ibara ry'ubururu mu magambo yanditseho n'ibara ry'ubururu ndetse n'andi y'ibara ry'umweru.

Ibikarito byinshi cyane by'amoko atandukanye birimo imiti y'amatungo, hakaba hari ibifite amabara nk'umweru n'umutuku, ibishushanyijeho inka mu mabara atandukanye, nk'iz'ibihogo, nk'iz'ibibamba, umweru n'umukara, igihogo n'umweru ndetse n'andi agiye atandukanye.

Icyumba gicururizwamo imiti y'amatungo ifite amabara agiye atandukanye, harimo iri mu icupa risa n'umuhondo yandikishijeho amabara y'umutuku ndetse n'umukara, hakaba amacupa y'umweru afite imifuniko y'ubururu yandikishijeho amagambo y'ubururu n'andi agiye atandukanye.

Abagabo babiri bafite amasuka ku ntugu, umwe wimbere wambaye ingofero wasetse, yambaye ishati irimo amabara umweru n'umukara, hasi akaba yambaye ipantaro y'umukara, uw'inyuma akaba yambaye agapira karimo amabara y'umutuku, umukara n'umweru hasi nawe akaba yambaye umukara.

Ubuhinzi bw'ibihingwa bigiye bitandukanye cyane ibirayi, burimo kwitabwaho n'umugore wambaye igitambaro mu mutwe cy'ubururu n'umupira w'ubururu, akaba akenyeye igitenge kirimo amabara agiye atandukanye: nk'umuhondo, umweru, umukara ndetse n'umutuku.

Ikiraro cyubatse neza cyane cyubakishije ibiti bikomeye gisakaje amabati y'umweru, kirimo inka z'ibibamba ebyiri zifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, kuhande hakaba hari shebuja wambaye ingofero y'ubururu irimo ibara ry'umweru n'ishati y'ubururu n'ipantaro y'umweru.

Umusozi mwiza cyane ubereye ubuhinzi harimo umugabo uri mu guhinga ufite isuka nziza cyane wambaye isengeri y'ubururu ipantaro y'umukara, iruhande rwe hakaba hari ibisambu bitoshye bishishye birimo ibyatsi byabonye imvura.

Abagare babiri bari mu nzira mu ishyamba berekeza mu murima bafite amasuka ku rutugu bose bakaba bateze ibitambaro mu mutwe, uw'imbere akaba ateze icy'umweru, uw'inyuma akaba ateze icy'ubururu, uw'imbere akaba yambaye imyenda ifite amabara agiye atandukanye nk'umutuku ,icyatsi. Uw'inyuma akaba yambaye ishati y'umweru hejuru hasi akaba akenyeye igitenge cy'umutuku gifite amabara agiye arimo y'umukara.

Igishanga kigari kinini cyane gihinzwemo igihingwa cy'ibigori bimaze guheka, byarabye bifite utuntu hejuru tw'uturabo ku ruhande hakaba hakikijeho ibyatsi byiza bitoshye ubona ko byabonye imvura.

Isoko rigari ricururizwamo ibiribwa byinshi bifite amoko atandukanye, ariko hakaba higanjemo ibirayi byinshi bishwetse no hejuru mu mifuka, rikaba riremwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abagore n'abagabo, hakaba harimo abambaye imyenda itukura, ubururu, umweru n'indi igiye itandukanye.

Igishanga kirimo boroke zihinzemo umuceri ukiri muto cyane rwose, uri ahantu heza hari amazi ubona ko aboneye ijisho. Harimo abantu barimo kuhatemberera babiri, umwe Yambaye urubururu hejuru, hasi akaba yambaye ipantaro y'umukara, undi akaba yambaye inkweto z'umweru. Bakaba ba tembera bareba uko ibihingwa byabo bihagaze.

Ishyamba ryiza cyane rigari ririmo ibiti birebire cyane ndetse n'ibigufi ryubatsemo utuzu duto dutoya tugibwamo n'abantu baba baje kurisura, ririmo abantu b'ingeri zitandukanye nk'abana n'abantu bakuru, barimo umugore ufite igikapu mu ntoki gisa n'umutuku wambaye ikanzu urimo kuvugira kuri telefone.

Ubuhinzi bw'amapapayi, mu murima munini cyane, ubona ko biboneye ijisho, harimo ibiti byezeho amapapayi ariko atarahisha, akiri mabisi, agifite ibara ry'icyatsi, bikaba bifite ibibabi bisa n'umuhondo byumye, hejuru hakaba hariho n'ibindi by'icyatsi, bitari byuma.

Igishanga kirimo ubuhinzi bwa kijyambere imyaka yagiye itandukanye, kikaba kirimo umugabo uri mu kuyuhira iyo myaka, ashyiramo amazi ku rugero yifuza yifashishije umupira usa n'umweru, yambaye agapfukamunwa k'ubururu, ishati irimo amabara atandukanye, ipantaro ya kaki n'inkweto z'umukara.

Ubutaka bunini cyane buhinzeho indabyo, zatangiye kuraba uturabyo tw'iroze, buhagazemo umugore ufite umupira mu ntoki uri mu kuhira, yambaye umupira w'umutuku ndetse n'umukara akaba ari mu gukoresha uburyo bugezweho bwa kijyambere mu kuhira izo ndabyo.

Umurima urimo igihingwa cy'ibirayi bitari byera ukaba uhagazemo umugore urimo kubyuhira ufite itiyo y'ibara ry'umweru mu ntoki ndetse n'umutuku, yambaye ikanzu afite imisatsi karemano hirya ku ruhandade hakaba hari imodoka ifite ibara ry'umweru.

Igishanga kigari cyiza kirimo ibihingwa by'amoko atandukanye bishishe, bitoshye, kikaba kiri mu kuhirwa hifashishijwe uburyo bugezweho, aho imashini iri mu kuhira irimo gushyiramo amazi makeya y'urugero asabwa n'igihingwa atari bukigireho ingaruka.

Ubutaka bugari bunini cyane buriho ibihingwa by'amoko agiye atandukanye, hakaba hari n'ubundi ku ruhande burimo guhingwa n'umuntu w'umudamu ukuze urimo guhingisha isuka, akaba ateze igitambaro gifite amabara y'umutuku n'umweru, ishati y'umutuku n'icyatsi, ingutiya y'umukara. Akaba arimo gucukura kandi yiteze kuzakoresha uburyo bugezweho bwo kuhira.

Igishanga kinini cyane kigali kirimo igihingwa kiri mu kuhirwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga aho buhira bifashishije uburyo bugezweho bwo gushyiramo amazi makeya y'ingenzi akenewe n'icyo gihingwa atari bukigireho ingaruka, muri icyo gihingwa hakaba harimo umugabo uhagazemo wambaye umupira w'umutuku ipantaro y'umukara n'ingofero.

Igishanga kirimo igihingwa cyiza cyane gitoshye, cyabonye imvura gisa neza cyane kiririmo kuhirwa mu buryo bw'ikoranabuhanga aho hatangwa amazi makeya kandi meza, atakigiraho ingaruka.

Ubutaka bugari buriho ibihingwa bifite amoko agiye atandukanye nk'ibigori bikaba biri mu kuhirwa n'umugabo wambaye ipantaro y'ubururu hejuru yambaye umupira w'icyatsi afite n'undi ku rutugu w'ubururu afite itiyo mu ntoki irimo kuhira ayo mazi muri ubwo iyo myaka.

Umwana muto urimo kuvomerera imbuto n'amazi meza cyane, wambaye ishati yu'mweru hejuru ukenyeye igitenge cy'umukara wambaye ingutiya y'umweru n'umukara, iruhande rwe hakaba haparitse imodoka ifite ibara ry'ubururu, hakaba hubatse inzu n'ayo isize amarangi y'ubururu ikinze, akaba ahahagaze iruhande rwe umugabo wambaye ubururu hejuru.

Imisozi myiza cyane iboneye ijishoho, iriho ibyatsi byinshi cyane, ibihingwa bigiye bitandukanye, n'abantu bagiye bayituyeho, bisa neza, intoki, amashyamba, ibiti by'inurusu, imigezi, igishanga n'ibindi byinshi cyane.

Inka nyinshi cyane zihuriye ahantu hamwe z'amabara atandukanye nk'ibihogo n'umukara zikaba ari nyambo zifite amahembe meza cyane ateze neza y'umweru, hakaba ku ruhande hari umushumba uziragiye wambaye agapira k'ubururu.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti bigiye bitandukanye, n'ibyatsi byiza bitoshye, rikaba ririmo amatungo agiye atandukanye, mu mabara atandukanye nk'afite amabara y'umweru, ibihogo, harimo, intama, ihene, rikaba ririmo umushumba uziragiye, wambaye umupira w'umuhondo hejuru.

Icyumba kigali cyororerwamo inkoko z'amoko agiye atandukanye, nk'isake ndetse n'inkokokazi, zikaba zihagaze muri icyo cyumba zitegereje icyo kurya, haka harimo ibikoresho byifashishwa mu kuzigaburira bisa n'umweru, bifite utubara tw'umutuku.

Inka nziza cyane iboneye ijisho, iri kumwe n'iyayo, inini ifite amabara y'umweru ndetse n'ibihogo, iyo yabyaye ni inyana ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru ikaba irimo kurigatwa na nyina ubona ko yayishimiye cyane.

Ikizu kinini cyubakisheje ibiti gisakaje amabati kirimo inkoko z'amoko menshi agiye atandukanye zifite amabarage atandukanye, wavuga nk'umukara hagati muri zo hakaba hateretse akabase k'umutuku karimo ikindi kintu cy'umweru kifashishwa mu kugaburira izo nkoko munsi ku wundi.

Urupangu rugari cyane rurimo inka nyinshi z'ibihogo kandi z'inyambo ziteze neza amahembe yazo y'umweru zikaba zihagarikiwe ku ruhande n'abaveteneri bazo bazitaho umunsi ku wundi bambaye imyenda y'ubururu abandi umweru bazitera intangaga mu gihe zikenewe.

Ishyamba rinini cyane ryahuriwemo n'abantu benshi cyane, bambaye imyenda igiye itandukanye mu mabara atandukanye nk'umweru, ubururu n'umukara n'andi, hakaba harimo amatungo, mu bwoko butandukanye nk'ihene, intama, izifite amabara y'umweru n'izifite ay'ibihogo.

Icyumba cyubatse neza gisize amarangi yu'mweru gifite ibyuma byifashishwa mu buhinzi n'ubworozi bisize amarangi y'umweru n'utundi tw'umuhondo hakaba harimo abantu benshi batandukanye abagabo n'umugore bambaye ingofero zisa nk'umutuku bafite udupfukamunwa tw'umweru hakaba harimo n'umugore wambaye akagofero k'ubururu.

Ikibuga gihuriwemo n'inka nyinshi cyane z'Ibihogo, zitagira amahembe, zifite amaherena buri yose asa n'umuhondo, hakaba hari zimwe zirimo kunywa amazi, izindi zihagaze zitegereje ko izo zirangiza na zo zikajya kunywa.

Urwuri rurimo inka imwe y'ibihogo y'inyambo iteze neza amahembe y'umweru, ikaba iri mu kurisha ibyatsi byiza bitoshye cyane byabonye imvura, ku ruhande hakaba hahinze imyaka y'ibishyimbo nayo ubona ko itoshye.

Urupangu runini rurimo inka ebyiri z’ibihogo, zirimo kwitabwaho n'umuveterineri, wambaye isarubeti y'ubururu n'inkweto zifunze, akaba ari mu gukora mu nda y'inka imwe, yambaye ishashi mu kuboko.

Urupangu runini cyane rurimo inka nyinshi z'inyambo zifite amahembe ateze neza y'umweru z'ibihogo, zikaba ziri kumwe n'abaziragira cyangwa se ba veterineri bambaye amataburiya y'umweru, bote z'umweru hakaba harimo n'abambaye imyenda y'ubururu.

Ishyamba rigari cyane ririmo ibiti bigiye bitandukanye by'amoko agiye atandukanye, ibirebire bigufiya n'ibyatsi bigiye bitandukanye, ririmo inzovu nini cyane isa n'ibihogo, ifite amahembe abiri y'umweru.